Dufasha abantu mu gukora ingendo mu buvuzi ndetse no mu bwishingizi kubantu bari hejuru y'imyaka mirongo itatu n'itanu. Ku bindi bisobanuro wadusura ku rubuga rwacu rwa daburiyu daburiyu daburiyu doti visiti inshuwarensi doti komu.

Hano hari icyapa cyanditseho ubwishingizi bw'inkoko, hariho agafoto k'udushwi turi gutoragura, hasi hashushanyijeho inkoko zigiye zitandukanye, amasake n'ubundi bwoko bugiye butandukanye.

Uru ni urupapuro rugaragaza ukuntu serivisi za banki zagiye zitangwa ku matariki agiye atandukanye n'uburyo ibikorwa byagiye bikurikirana.

Hano hari kugaragaza ubucuruzi bw'ubugeni bwa gakondo hari ibintu byinshi bitandukanye biri gucuruzwa ibyo kwambara imitako ndetse n'ibindi byose byakozwe hifashishijwe ubugeni.

Hano hari icyumba kirimo utubati tw'ubwoko bugiye butandukanye, uko bigaragara ni ahantu hagiye kubera ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, ibyo kurya ndetse n'ibindi.

Hano hari abantu bafite icyapa kiri kugaragaza ibikorwa bakora byo gukora imodoka ndetse n'ibindi, iruhande rwabo hari imodoka hejuru yaho hari icyapa kigaragaza aho bari n'ibyo bakora.

Hano hari amafaranga, afitwe n'umuntu mu ntoki ze, hakaba hari n'andi arambitse, hejuru ya mudasobwa, ni amafaranga yo mu bihugu bitandukanye...

Hano hari icyumba kirimo igikoresho kizwi nka firigo, iruhande rwayo hari amajerekani y'amazi ya Jibu, uko bigaragara bacuruza ibyo kunywa.

Aha ni mu cyumba giteretsemo ibyo kunywa biri mu dukarito ndetse no mu tujerekani, bigaragaza ko mbacuruza ibyokunywa bivuye ku nka.

Iki ni icyapa kiriho umugore ufite telefone mu ntoki uko bigaragara ari kwamamaza uburyo umuntu ashobora kohereza ndetse no kwakira amafaranga akoresheje buno buryo buri kuri iki cyapa.

Hano mu ishusho ya telefone iri mu bwoko bwa samusangi igaragaza ko hari imibare iri gukandwamo kugira ngo iyo mibare yifashishwe mu kugera ku kintu runaka.

Kk'uko bigaragara hano bari kugaragaza intebe ziteretse mu cyumba runaka, bari kuzamamaza kugira ngo undi muntu wese wazikenera, cyangwa agakenera izimeze nkazo ku bazimukorera.

Uyu ni umutako wakozwe hifashishijwe ubugeni, uko bigaragara wabajwe mu rubaho, hejuru yawo hagiye hateretseho utuntu twinshi dutandukanye, byawufashije kurushaho gusa neza.

Iyi ni inyubako ifite ibyumba bigaragara ko batanga serivisi z'ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye biri kugaragazwa n'ibyapa bigiye bipfutse ku madishya y'inyubako.

Iki ni icyapa kiri kwamamaza, kiriho umugore ufite telefoni mu ntoki, ari kwamamaza ibikorwa na serivisi zitangwa na banki mu gutanga inguzanyo.

Hano hari umubyeyi uteruye umwana we w'umukobwa, bafite igikinisho mu ntoki zabo barishimye bari gukina nacyo, iruhande rwaho handitse amagambo avuga ngo givu cadi hedi sitati wivu ali sevazi akawunti.

Hano hari kugaragara inzu ziberamo ubucuruzi bwo gutanga inguzanyo, imbere yaho hahagaze abategarugori bambaye imyenda y'umuco nyarwanda, iruhande rwabo hari imodoka.

Hano hari kugaragara isangano harimo imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye ,iruhande rwaho hari abagenzi bari gukora imirimo itandukanye ,iruhande rwabo hari inyubako ziberamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye.

Iki ni icyumba kiberamo ubucuruzi bw'ubugeni butandukanye, ingoma ndetse n'ibikapu, ibikomo n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gakondo.

Hano ni isangano irimo amamodoka y'ubwoko bwinshi butandukanye, iruhande rwaho hari inyubako zikorerwamo ibikorwa Remezo bigiye bitandukanye, ubucuruzi ndetse n'ibindi, hagiye harimo ibiti biteyemo ndetse no hirya yaho, hari izindi nyubako zitandukanye zituwemo.

Uyu ni umwanya urimo abantu benshi batandukanye hari umubyeyi uhetse umwana uhagaze ku ruhande, hari undi mubyeyi uri gutegura ibyo kurya imbere ye harambitse amabase ndetse n'amasafuriya n'umufuka, ku ruhande hirya naho hari abandi bantu benshi bari mu bintu byinshi bitandukanye.

Hano hari kugaragara akazu gafite amabara y'umuhondo imbere harimo umuntu uri gutanga serivisi z'ubucuruzi bw'amafaranga ngendanwa hanze hahagaze uri gushaka izo serivisi.

Iyi ni inyubako irimo umugabo iruhande rwe harimo utubati uko bigaragara ni inzu iri kugurishwa kugira ngo ikorerwemo ibikorwa bitandukanye.

Iki ni icyumba cyo kuryamamo, kirashashe, hejuru y'aho harambitse umusego, iruhande rw'aho hari amarido ndetse amarido arafunguye, hasi hari amerekezo y'aho, icyo cyumba kiri Kabeza, Kigali city.

Hano hari abantu, bamwe baricaye, abandi barahagaze, uko bigaragara baje mu biganiro, iruhande rwabo hari icyapa kijyanye n'ubuzima.

Iyi ni inzu iberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya, bigiye bipanze mu tubati, ni ubwoko bwinshi butandukanye, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, uko bigaragara hirya hari abantu bari kugenda bahitamo ibyo batwara.